Uyu muntu ari gutera umuti umuceri kugira ngo utaza gufatwa n'indwara zitandukanye mu buryo bwo kuwurinda ibyonyi. Ndabona kandi ahetse icyuma cy'umuti cyo kuwuteza.

Iyi ni imbabura ikoze mu byuma, imbabura iriho umuriro n'amafi, ni ukuvuga bigaragara ko bari kotsa amafi ku mbabura, kugira ngo baze kuyarya.

Ndabona igitoki, ndabona avoka, ndetse nkabona n'ibindi byinshi bitandukanye. Iyi avoka ni igihingwa gitunga umubiri kandi gifite vitaminini.

Uyu ni umurima w'ibigori, urimo ikigori gitunyuje, iki kigori bari bashaka kukiba, ariko birangira btakibye, uhubwo basiga basiga gitunyuje. Ni ukuvuga bashakaga ku kiba gitonoye, ariko barabakanze, bituma batagitonora, batagitwara.

Iyi ni imirima y'icyayi, harimo n'umugore uri gusoroma icyayi, iki cyayi ni igihingwa ngengabukungu, kuko gitunganywa kikanyuzwa mu nganda mbere y'uko bagikonsoma, cyangwa se mbere y'uko bagikora.

Iyi ni imifuka y'ibigori ipakiyemo ibigori, ibigori ni igihingwa ngandurarugo gikunzwe cyane guhingwa mu karere ka nyagatare cyane cyane mu ntara y'iburasirazuba.

Ibi mbona aha, ndabona ari umukecuru urimo kugosora impungure akoresheje inkoko, ndetse hirya yaho nkabonaho inzu y'amatafari ahiye ndetse n'amategura iyo ni inzu abamo, acumbikamo, ni ukuvuga ni aho aba mu rugo.

Ikiraro buroreramo ingurube. Ingurube ni itungo borora ritanga inyama, rigatanga n'ibyo kurya, ndetse rigatanga n'ifumbire. Zikunze kororerwa cyane cyane mu Ntara y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru.

Ndabona umuvetereneri uri gukingira inyana y'umuturage, iyo nyana ikaba iri mu kiraro cy'inka ,ikiraro cy'inka kikaba kidasakaye, harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Iki ni icyana cy'kinyoni yitwa igishuhe, igishuhe ni inyoni ikunze kuba mu mazi itunzwe n'amafi aba ari mu mazi, kandi igendera hejuru y''amazi ndetse ikanibira mu mazi, iri guhiga amafi cyangwa se iri gushaka ibiyitunga.

Iki ni igishwi cyangwa se ikigwawana. Ikigwawana n'inyamaswa, ni inyoni iguruka mu kirere, kandi ikarama igihe kirekire. Ishobora kuba yamarana imyaka igera muri magana atatu itarapfa.